Amatara yo ku mihanda ayobora abagenzi, akayobora imodoka ni byiza gukurikiza amabwiriza yatanzwe, kugira ngo impanuka zitaba nyinshi mu muhanda ikindi tugomba kubahiriza amategeko polisi idushiriraho.

Umutekano iwacu uraganje kuko dufite nabo bita abahomugadi bashizwe umutekano mumudugudu nomutugari . Nibyiza kubahiriza amabwiriza baduha ndetse tukabahera amakuru kugihe, kugirango tubashe kubafasha kuwubungabunga.

Polisi y'u Rwanda yakajije umutekano ifata ibisambo n'ibindi n'andi mubandi yose, ni muri urwo rwego dusabwa gutangira amakuru ku gihe, igihe cyose tubonye hari ikitagenda neza mu mudugudu wacu.

Umutekano w'u Rwanda urakataje rwose, ni byiza ko tugira ingabo ndetse na polisi, turakwiye kubahiriza amategeko y'abapolisi, kugira ngo turusheho kubafasha mu kubungabunga umutekano wacu.

Tujyetwumvira amategeko abapolisi baduha kuko iyo tubumviye usanga mu mihanda impanuka zigabanuka kandi ugasanga umutekano wo mungo zacu ni mwiza ndetse n'amakaritsiye y'iwacu.

Abadaso nabo bashinzwe umutekano, babungabunga umutekano wo mu murenge, kandi babungabunga neza cyane, kuko umutekano iyo badahari ntabwo ugenda neza, ni byiza kubahiriza ibyo batubwira n 'inibyo badusaba.

Tujye twubahiriza amategeko abapolisi baduha, kuko iyo tuyubahirije impanuka zagabanuka, ndetse n'ubuzima bwacu tukabubungabunga, kuko ubuzima bwiza ni cyo gishoro cyacu.

Ntabwo ari byiza, kwitabira telefone mu muhanda, kuko bishobora kuguteza impanuka, n'ibindi bibazo byinshi, basha kwitabira telefone ku ruhande kandi wubahirize amategeko y'umuhanda.

Abaporisi ni abantu b'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho bari ho bose bubahwe babungabunga umutekano wacu bakatwifuriza kugubwa neza, tujye twubahiriza ibyo batubwira gukora.

Aba police n'abantu bingenzi cyane mubuzima bwacubwa burimunsi kuko iyo twubahirije amategeko baduha ubuzima bwacu bugenda neza , imanuka zomumuhanda ziragabanuka Kandi usanga abantu bafite umutekano usesuye.

Umupolisi ni umuntu ubungabunga umutekano w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ndetse no ku isi yose muri rusange umupolisi ari imbere kuko abungabunga umutekano, abaturage bakagubwa neza.

Abadaso babungabunga umutekano wo mu mirenge, baradufasha cyane baratureberera kuko ni byinshi biba byakabaye byangirika, ariko kubera bo baba batureberera usanga ibintu biri kugenda neza.

Tujye twitabira amanama, kuko iyo turi mu nama ni ho tumenyera amabwiriza y'igihugu cyacu, ni ho tumenya ibikenewe. Ibi byose bikadufasha kugendera kuri gahunda za leta, ndetse tugafatanya n'abandi.

Tujya twitabira ama nama atandukanye, abayobozi batugira inama z'uburyo dukwiriye kwitwara, bituma tugira ubuzima bwiza bwuzuyemo umutekano, ndetse bakatugira inama z'uburyo dukwiriye kubaho neza.

Twese tuzi ko muri ino minsi, dushishikarizwa ko u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo. Banyarwanda banyarwandakazi, mucyo twitabire inama cyane cyane z'Umudugudu, inama z'Umurenge, inama z'Akarere. Ni byo bizubaka u Rwanda rwacu.

Abapolisi ni abantu b'ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, tujye twubaha ibyo batubwira dukurikize amategeko y'umuhanda, ndetse twumvire n'inama batugira kuko ni byiza bituma ubuzima bwacu bubaho neza.

Amanama ni meza cyane kuko atuma tumenya amabwiriza y'igihugu cyacu, atuma tubungabunga ubuzima bwacu ndetse n'ubw'abacu kandi tugateza igihugu cyacu imbere, tugendeye ku nama twahawe.

Tuge twumvira inama z'abatuyobora kuko iyo tuzikurikije tukazishyira mu bikorwa, usanga tuguwe neza kandi tugahorana iterambere rirambye. Tuge twumvira abatuyobora.

Amana yo mu rwanda agakorerwa ahantu hafite isuku, akorwa ahantu heza cyane, urwanda ruteye imbere muri byinshi, reka rero tubungabunge iryo terambere ryacu rikomeze risazagambe.

Umuco w'iwacu ntukazime, tuwubungabunge duhinga amasaka, duhinga ibigori, duhinga ibirayi, duhinga byinshi, twahingaga amateke, tubirye ku bwinshi, kugira ngo dukomeze dusigasire umuco wa kinyarwanda.

Ni byiza gusobanukirwa, uko abami bagiye bima, uko bagiye bahinduranya ingoma, tujye dusoma amateka y'u rwanda, tuzajya tubibonamo, ndetse tubisobanurire natabizi.

Abakurambere bacu kuko bagenderaga ku muco gakondo wa kinyarwanda, bakoreshaga ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibicuma, ibibindi, inkangara, imikeka, imihuru, ndetse n'imbehe, dusigasire umuco wacu.

Ubworozi bw'inzuki mu Rwanda burahari cyane niyo mpamvu dukwiye kubungabunga ubwo bworozi kugira ngo tutazajya tubura ubuki. Reka mu rwanda dukomeze kubugira kuko ubuki ni bwiza cyane.

Ibigega duhunikamo ibirayi, duhunikamo amasaka, tugahunikamo ndetse n'ibigori, duhunikamo ibintu byinshi, ibigega bihunika neza, bibika neze imyaka, tujye tubibohesha nk'umuco wa kinyarwanda.

Inanga ziryohera amatwi, uzumvise wese yumva anezerewe. Ndetse umuntu iyo azumvise asinzira neza, tujye tuzumva, cyane cyane mu gitaramo twuve inanga za ba Rujindiri, na ba Sibomana, n'izindi.

Gukama ibitoki ni igikorwa kitorohera buri wese, kuko bigoye. Bisaba imbaraga. Cyakora ku muntu ubimenyereye ni ibintu byiza cyane bishimisha.

umuco wacu umucokazi n'abazungu bakunda umuco wacu nyarwanda kuko bishimira uko twitwara mu nko gusomera ku kibindi ndetse bakanywesha umuheha cyangwa se umuceri.

Umuco nyarwanda ntukazime, tuwusigasire twambara neza, bya kinyarwanda, abari b'u Rwanda bakenyera imikenyero n'imishanana, ndetse n'abahungu b'u Rwanda, bakenyera imishanana.

Umuco w'i Rwanda ntigugacike, dusigasire umuco nyarwanda nicyo kituranga, u Rwanda rwacu ingobyi iduhetse, dusigazere umuco wacu, kugira ngo utazazima i Rwanda.

Umuco w'iwacu ntukazime tuwusigasire, tuboha imikeka, tuboha ibirago, ndetse tunakora ubukwe tubisangamo cyangwa tukanabihamo abantu impano.

Umuco Nyarwanda ntukazime, twebwe abari n'abategarugori b'u Rwanda tuwusigasire tubyina imbyino Nyarwanda ndetse dutoza n'abana bacu kubyina neza bita ku muco w'abanyarwanda.

Umuco w'iwacu ntukazime. Abakaraza b'u Rwanda usanga basa neza, bambaye neza. Ukabona bibereye ijisho. Tujye dusura inzu ndangamurage z'u Rwanda, kugira ngo tuzibonemo ibiranga umuco nyarwanda.

Imihururu abenshi bazitaga inyegamo. Mu mihururu cyangwa se inyegamo, ni uturago twiza cyane dutatse amabara, kutwicaraho batuganiriraraho usanga bibereye ijisho, kandi abaziriho bakanezerwa.

Umuco wacu ntukazime, intore zirebwa n'abantu benshi kandi ugasanga zizihije ku ibirori kuko iyo tuzirebye turanezerwa ni byiza ko abana bacu tubatoza kujya mu itorero ry'igihugu kugira ngo batuzwe neza.

Umucu w'iwacu nt'ukazime, umuntu naba aje kugusura uzajye umwakiriza ikigage, cyangwa se umusururu uwumuhere mu ruho, cyangwa urukiza. Bizamushimisha bizamwibutsa ibihe bya kera kuko ariwo muco Nyarwanda.

Umuco w'u Rwanda ntukazime. Tuwusigasire tubyina imbyino gakondo, duseruka, dusurana. Ibyo byose tubikorane mu muco, kuko ni byiza gukomera ku muco w'u Rwanda.

Umuco w'i Rwanda nigukoze umuco nyarwanda ni mwiza cyane. Ku mwami ntibavuga ngo gutembera, baravuga ngo kurambagira. Ntibavuga ngo umwami arasidi vuba ngo umwami arebe.

Kera abanyarwanda n'abanyarwandakazi bahunikaga mu bigega, bagahunika mu mitiba, bagahunika mu bisero binini, bagahunikamo imyaka y'ubwoko bwose . Mucyo natwe tujye twiga guhunika cyangwa se kwizigamira.

Umuco wacu ntukazime tuwubungabunge twifashisha inkongoro, imitozo ibyansi n'ibindi byose dukoresha cyane cyane tunywa amata, tuyakunda tuyakundisha n'abandi.

Ibibindi ni ubwoko bwiza bw'ibikoresho byo mu rugo. Cyane cyane iyo twabaga dushaka kwenga amarwa, twashyiraga mu bibindi, ugasanga nta nyota iri kutwica, ikindi kandi ibibindi byatekwagamo cyane cyane, tugatekamo ibishyimbo tukagerekaho ibirayi.

Umuco w'i Rwanda ntugacike. Dusigasire umuco nyarwanda, twambare neza tuberwe, tubyine imbyino gakondo, dusurane, umuco nyarwanda ntukazime iwacu.

Umuco w'u Rwanda ntukazime tujye duhora tuwubungabunga tubyina imbyino gakondo, dushishikariza abana bacu kujya mu itorero ry'igihugu, kugira ngo basigasire umuco wacu.

Umwamikazi aba aberewe koko. Ntibavuga umugore w'umwami bavuga umwamikazi, ntibavuga nyina w'umwami bavuga umugabekazi, ntibavuga ngo umwami aratembera bavuga ko arambagira, ntibavuga ngo umwami araryamye bavuga ko yibikiye.

Inanga ni igikoresho cyagaragazaga umuco nyarwanda. Cyarakoreshwaga mu bitaramo, cyakoreshwaga n'abami. Mu nzu ndangamurage y'u rwanda tuzisangamo, tugasangamo n'imbehe, tugasangamo n'ibicuma, tugasangamo n'ingobyi za kinyarwanda.

U Rwanda rw'abanyarwanda nukuri ruragendwa pe! dusigasire umuco Nyarwanda dutoza abana bacu, kuba abanyarwanda buzuye, bazi indangagaciro z'umuco Nyarwanda ndetse na kirazira.

Umuco w'iwacu ntukazime. Tujye dusura inzu ndangamurage z'u Rwanda, turebe n'amashusho agaragaza umuco nyarwanda, bityo tuyatunge iwacu usange abereye ijisho.

Ingobyi za kinyarwanda ziri mu biranga umuco Nyarwanda, mu nzu ndangamurage y'u Rwanda tuzisangamo, tugasangamo imbehe, tugasangamo ibirago, tugasangamo imihururu, n'ibindi byinshi.

Umukobwa wakoraga ku bihumbi akunda imiti yahoda yitwa umwari ni byiza ko muco w'urwanda utazima dukomeze tuwusigasire ba nyampinga bakomeze bitware neza.

umuco w'iwacu ntukazime. Tubungabunge umuco w'iwacu dukoresha ibikoresho bya kinyarwanda nk'isekuru, imbehe, uruho n'ibindi byinshi. Igihe tutakibuka ibyo mu muco nyarwanda tujye tubirebera mu nzu ndangamurage z'u Rwanda.

Abanyarwanda dukwiye gukomera ku muco wacu, tugasangirira hamwe byose. Ari ibyo kunywa, ari ibyo kurya, tugakomeza tukawubungabunga n'ubwo bwose ibintu byagiye bigabanuka, ariko dukwiye gukomeza gusurana.

Ikeshamvugo ku mwami . Ntibavuga gutembera k'umwami ,bavuga kurambagira . Ntibavuga kwicara k'umwami, bavuga guteka . Aho umwami aramirizwa bahita ijabiro . Ni byiza rero kumenya umuco nyarwanda tukamenya n'imvugo zabugenewe ku mwami.

Umuco w'iwacu nt'ukazime, abaturarwanda ba kera bari bazi gukesha ibitaramo bagataramira umwami ,kandi umwami akishima akagira abo agabira inka kubera ko bamushimishije . Natwe dusigasire umuco wa kinyarwanda.

Umuco nyarwanda ntukazime! umuco nyarwanda ntukazime! tuwusigasire tujye dusura inzu ndangamurage y' u Rwanda turebemo ibyo kera bakoreshaga kandi umuco nyarwanda ntukazime tuwubungabunge.

Umuco w'u Rwanda ntukazime. Tujye dukoresha inkongoro, dukoreshe inzuho, dukoresha ibyatsi, dukoreshe inkoko, dukoresha imbehe, twicare ku ntebe za kinyarwanda, bityo duteze imbere umuco nyarwanda.

Ifu inoze bayita inono ni byiza ko dukoresha imashini zibeta kugira tugire ifu nziza, naho gusekurira mu masekuru; byatuma turya ibiheri kandi tutanuo neza ibirimo ibintu byinshi bishobora kwangiza umubiri cane cane no kuba bya kunika tuje dukoresha amamashinigararaje kubera.

Mu Rwanda kera habagaho ibirori bihuza abantu, bakitabira imihango y'ubukwe, imihango yo gukwa no gusaba, ndetse bakitabira imihango yo gushyingira n'abageni. Ubu nabwo n'ubwo biri mu iterambere, ariko baracyubahiriza, baracyabana, agaseke ntikajya kabura mu bukwe, ibyo bikaba bigaragaza imibanire, ko kera bari babanye.

Kukama ibitoki ni igikorwa kiruhije kigoye kuko bisaba imbaraga nyinshi niyo mpamvu bikunda gukorwa n'abagabo ariko hari n'abagore bafite imbaraga ba bakama ibitoki.

Kureba inzu za kinyarwanda ubona bibereye ijisho, biryohera amaso, kuko ubona ziconze neza, zikoze neza kandi ukabona zibereye ijisho koko, umuco w'i Rwanda ntukazime.

Umuriro w'mashanyarazi, turashishikariza abanyarwanda bose kuwutunga, kuko leta idushishikariza kwiteza imbere muri byose, tugasa neza tugatura neza, kandi tugatura heza.

Mu bikoresho by'amashanyarazi harimo mubazi, harimo sharijeri, harimo vesiteri, harimo ibikoresho byinshi. Tuge tubaza ababisobanukiwe babasha kudusobanurira bityo natwe tubigireho.

Umuriro w'amashanyarazi udufitiye akamaro kanini cyane, turawutekesha, turawumurikisha mu nzu, kandi dukoresha n'ibindi bikorwa bitandukanye twiteza imbere. Dushaka amashanyarazi mu ngo z'iwacu.

Amashanyarazi ni meza cyane mu mago iwacu . tuyakoresha dushyuhisha mu nzu ndetse tukayamurikisha ikindi tuyatekesha ikindi tuyakoresha muri firigo dushishikariye kuyashaka twese.

Gutunga amashanyarazi iwacu ni byiza, kuko mbere abatari bafite amashanyarazi bakundaga kurumwa n'inzoka kuko babaga batari kuzireba, ariko ubu ngubu kuberako haba habona nta kibazo basigaye bahura na cyo.

Amashanyarazi akora ibintu byinshi, niyo atuma ducuranga niyo atuma ibyuma bya muzika bikora, niyo atuma ibikoresho byo kwa muganga bikora, amashanyarazi adufitiye akamaro.

Tujye twitondera ibikoresho by'amashanyarazi, kuko bishobora kudukururira impanuka zikomeye, cyangwa se tukazikururira n'abana, tujye twirinda gukorakora aho tubonye, cyane cyane kubikoresho tudasobanukiwe by'amashanyarazi.

Abanyarwanda badafite umuriro w'amashanyarazi ni bake, kandi Reta y'u Rwanda ishaka ko buri muturarwanda wese arangwa no kugira amashanyarazi mu rugo rwe, mu gihe kera bacanaga udutadowa, ugasanga inzu ziri gushya ari nyinshi.

Amashanyarazi ni meza cyane adukorera ibintu byinsh. Ndetse mu nsengero usanga ari gukora cyane, nk'ibyuma bya muzika usanga ariyo bakoresha. ikindi kandi no mu ngo iwacu turayakenera

Umuriro w'amashanyarazi udukorera byinshi cyane. Turawucana mu nzu, tukawumurikisha amazu ya yacu, tukawutekesha, tukawukoresha no ku mafirigo. Dushakashake uburyo tubona umuriro w'amashanyarazi.

Umuriro w' amashanyarazi ufite akamaro kenshi, turawucana, tubonesha mu nzu, tukawutekesha ndetse tukawukoresha no muri firigo bakana twogosha.

Amashanyarazi ni uburyo bwiza bw'imibereho kuko atuma dukora byinshi dushobora kumurika amazu yacu ndetse tugatekesha, tugakoresha no muri firigo. Amashanyarazi ni meza tugashake tuyatunge iwacu.

Ibikoresho by'amashanyarazi harimo nk'insinga z'amashanyarazi, ni byiza ko ziba zitwikiriye kugira ngo hatagira umuntu ukoraho, noneho zikaba zamufata agapfa cyangwa se akangirika.

Umuriro w'amashanyarazi ni mwiza twakoresha ibintu byinshi ndetse no kwa muganga turawukoresha bituma abantu bavurwa neza cyane cyane nka nijoro ntamuriro w'mashanyarazi uhari ntabwo abantu bavura.

Umuriro w'amashanyarazi ni mwiza cyane. Kuwugira murugo bituma dukora ibintu byinshi bitandukanye nko kumurika mu nzu, ku wutekaho ndetse no gukoresha ibindi bikenewe nka firigo n'ibindi.

Ku bana si byiza gucokoza ibikoresho by'amashanyarazi, kuko bishobora guteza inkongi z'imiriro, kandi ugasanga inyubako zangirijwemo ibintu byinshi, kubera izo nkongi z'imiriro. Ni byiza kwitonda iyo tugiye ahantu hari amashanyarazi.

Amashanyarazi tujye tubwira abana bacu kuyirinda kuko ashobora kubateza impanuka, gusa ibikorwa byayo ni byiza kuko bituma dukora ibikorwa byinshi bitandukanye, tuyatunge iwacu.

Ntitujye dukoresha ibikoresho by'amashanyarazi ku buryo bwose twiboneye. Kuko bishobora kuduteza ingaruka mbi, harimo n'urupfu. Tujye tureba neza ibikoresho. Ibyo tudasobanukiwe, tubaze abantu babisobanukiwe neza.

Narishimaga cyane iyo nabaga ngiye gusenga, nagendaga nishimye kuko kuko nagaga nzi yuko ndahurayo n'Imana. Imana iba hose turabizi ariko iyo uri ku rusengero ugubwa neza kurushaho.

Iyo dusenga tuba tuganira n' Imana ,nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we . Tujye tubwira Imana tutishisha kuko iradukunda cyane ,kandi yifuza kutugirira neza . Ibyo itwifuriza ni ibyiza si ibibi.

Insengero ni ahantu h'ingenzi cyane kuko haduhuza n'Imana, nk'iyo tugiye gushaka Imana tuyisenga, tuyisaba ibyo dukeneye. ikindi insengero zituma abantu babona ahantu ho gusengera.

Insengero zimwe na zimwe zidafite ubuziranenge ubu zirafunzwe, turashishikariza abanyetorero kuvugurura inyubako zabo z'insengero, kugira ngo barusheho gusengera ahantu hasa neza.

Tujye tujya ku nsengero tujye gusenga kuko gusenga ni byiza, gusenga bituma wongera igihe cyo kubaho, gusenga bituma uhura n'Imana, kandi Imana ikagusubiza ibyifuzo byawe tujye gusenga ni byiza.

Ku cyapa cya mirongo ine hazwi henshi mu Rwanda. N'i Kigali hariho kuri mirongo ine, mu Kinigi hariho kuri mirongo ine. Hari n'ahandi henshi hagiye harangwa n'icyapa cya mirongo ine. Dusobanukirwe ibyapa byo mu muhanda tubyubahirize.

Mu migi guturamo ni byiza kuko usangamo ibintu byose by'ingenzi cyane cyane amashuri, amavuriro, ibitaro ugasangamo sitasiyo za polisi. Ibintu byose bikenewe biraboneka niyo mpamvu gutura mu migi ari byiza.

Tujye tugana inyubako nziza za kizungu tuhatemberere, kugira ngo duhe amaso yacu nayo arebe yishime, kuko hari inyubako zishimisha amaso. Ni byiza ko tuyasura kenshi natwe tukirebera ibyiza bitatse U rwanda.

Ni byiza kujya ujya mu rusengero, kuko mu rusengero uhura n' Imana ukayisenga nayo ikagusubiza, ni byiza kuza mu rusengero kuko na dawidi yakundaga kujya guhagarara k' urusengero bigatuma ahura n' Imana.

U Rwanda rwacu rwateye imbere, kuko dufite amashanyarazi atunzwe na benshi mu Rwanda, ni byiza u Rwanda rwacu rwita ku baturage barwo kuko rubaha iterambere rirambye.

Ingendo ubu zaroroshye, ku buryo n'abanyeshuri basigaye bagira amabisi abatwara, abavana iwabo abajyana ku ishuri, ndetse akabavana no ku ishuri akabageza iwabo, usanga ari byiza cyane ubungubu ubuzima bumeze neza.

Amazu ari mu gihugu cyacu asa neza, kuko yubatse mu bikoresho byiza amatafari ahiye, muze rero dukore tuyabungabunge, tuyakorere isuku kugira ngo dukomeze twiteze imbere.

Ndishima iyo bambwiye ngo tujye gusenga. Kuko mu nzu ya data ni heza cyane. Mpahurira n'Imana, nkayibwira amasengesho yanje, ikamfasha ikantabara.

Ahantu hari inyubako zitari zanozwa neza, turasaba abayobozi baho, ko bashishikariza abazituyemo kuzinoza, kugira ngo zikomeze zigaragare neza, bityo umuturarwanda ahore ku isonga.

Umusigiti w'Abayisiramu ni inyubako nziza cyane, Abayisiramu icyo mbakundira bagira urukundo rwinshi, bagasura abakene, bakabaha imfashanyo, cyanecyane umunsi w'irayidi.

Ku isi yose abantu bose bashimishwa no kubona inyubako isa neza. Umuntu na we agashimishwa no kwicara ahantu hasa neza. Niyo mpamvu dushishikariza abantu bose kwiteza imbere batura heza, kandi neza, bagatura ahantu hafite isuku.

Inyubako za kijyambere nziza cyane. Usanga zibereye ijisho kandi n'abicaye muri izo nyubako bakaba banejejwe n'ukuntu zubatse. Ni byiza kugira isuku y'aho dutuye ndetse n'aho tuba.

Ni byiza kwidagadura. Abazungu badufasha kwidagadura, bakadufashiriza urubyiruko kwidagadura, ndetse cyane cyane abanyeshuri basuwe n'abanyamahanga barishima.

Amashuri yo mu Rwanda ni meza cyane afite iterambere, iyo tuhagiye ugasanga n'abayobozi badusuye, usanga bibereye ijisho. Ni byiza rero yuko inyubako z'amashuri zihorana isuku, zigahorana abanyeshuri ndetse n'abayobozi basa neza.

Ku Mukamira, haba imbeho nyinshi. Iyo ugiyeyo, utifubitse, urakonja cyane. Bikaba ngombwa ko ukoresha icyayi, kugira ngo urebe ko wazanzamuka, kuko uba wagize imbeho nyinshi.

Narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo nze tugende mu nzu ya data. Ubwo nabaga ngiye ku rusengero narishimaga cyane, iyi ndirimbo ndayikunda cyane, iyo ngiye ku rusengero ngenda nyiririmba.

Uzaze urebe u Rwanda rw'abanyarwanda, ni ukuri kw'Imana we ruragendwa, ni ji zo mu rwanda zisa neza cyane, usanga hasa neza rwifuzwa na buri wese.

Abahamya ba yehova n'abantu nkunda cyane, ndabakunda kuko batuma umuntu amenya bibiliya ku buryo bwimbitse, ikindi ubona bagira urukundo rwinshi cyane, ikindi ntabwo bacira abandi bantu imanza.

Insengero zishaje ntizigikoreshwa cyane, kuko zishobora guteza impanuka cyangwa se inkongi z'imiriro, cyangwa se zikaba zagwa ku bakirisitu. Ni byiza ko dukoresha insengero zubatse z'iterambere.

Igihingwa cy'ibigori ni cyiza, harimo amako menshi y'ibyo bigori, hari ibigori bisa n'umuhondo hari ibigoro bisa n'umutuku, hari ibigori bisa n'umweru hari ibyitwa tamira, hari ibyitwa iburide hari n'ibyitwa mayizori. Tubungabunge ibigori, turusheho kubaho neza.

Inyubako nziza cyane mu Rwanda zigaragaza ko dufite iterambere rirambye, kandi zikunze kugaragaza isuku iri mu gihugu cy'u Rwanda.

Tujye dusenga kandi twiringire Imana yacu, kuko amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera ntabwo azahera azaza.

Umusigiti ni mwiza, uba ahantu mugi, cyangwa se mu isantere ikomeye, kuko abayisilamu niho bajya kuvugira amasengesho yabo.

Inyubako zo mu Rwanda ni inyubako nziza cyane usanga zikwiriye isuku hose iraganje, reka twiteze imbere dushaka uburyo twakubaka inzu zibereye ijisho, ndetse zibereye n'ubuzima bwacu.

Ubu abari n'abategarugori bahawe ijambo, mbere siko byari bimeze, umutegarugori n'umwari bari ab'iyo mu gikari, ntawababonaga nta n'ijambo bagiraga. Ni byiza rero ko umwari ubu yahawe ijambo ndetse n'umutegarugori.

Mu Rwanda abaturage batora abayobozi mu muco. bahitamo uwobashaka kubayobora tubona uza bahagararira bityo akagutora mu bwisanzure.

Umugore na we yahawe ijambo. Mbere, abagore ntibavugiraga mu ruhame ariko ubu basigaye bavugira mu ruhame ndetse bagatanga ibitekerezo, bikumvikana kandi bikagira akamaro gakomeye cyane.

Iyo ababurana ari babiri umwe aba yigizage nkana, kuko uwateje ikibazo aba yiyizi, ariko ni byiza ko tugana abayobozi bakatugira inama, bakatwunga tukarushaho kubahana mu muco no mu mahoro.

Iwacu mu Rwanda dutora abayobozi bacu. Tubatora mu bwisanzure, Dutora abo twihitiyemo tubona ko bazatugirira akamaro.

Abana b'u Rwanda bafite uburenganzira bwa buri kimwe bemerewe, kandi bafite n'inshingano zo kubahiriza amabwiriza, ndetse n'inama bagirwa n'ababyeyi.

Ubu u Rwanda rwacu rwateye imbere kuko basigaye bafite ibintu bitwara abantu n'ibintu nk'amahonda, amagare, ndetse n'amamodoka. Ni tujya ni tujya gushaka ibyo dukeneye nko mu masoko n'ahandi, tujye dutega amahonda.

Gare ya Nyabugogo ni gare iri mu gihugu hagati, kuko ari mu murwa mukuru w'u Rwanda. iyo ushaka gutega aho ugiye hose, ni ho utegera. ukajya mu ntara ushaka iyo ari yo yose.

Ubungubu amabisi mu Rwanda yabaye menshi, kandi abantu basigaye bayatega ku bwinshi, ku buryo ingendo zaroroshye, no kujya mu bihugu by'abaturanyi biroroshye, kuko dufite iterambere rirambye.

Amagare amaze kuba menshi mu gihugu cyacu, tujye tuyakoresha neza mu nzira tugenderamo, kuko iyo abaye menshi mu muhanda usanga ari guteza ambutiyage, tujye tuyakoresha neza.

Imodoka z'amakamyo na zo ni nziza kuko zitwara byinshi mu gihe gito. Tujye rero dutereza abashoferi bazo, kugira ngo batugereze ibyo dukeneye mu makaritsiye y'iwacu.

Abashoferi balifani nabo bafite akamaro cyane, kuko ibyo moto itashobora lifani irabitwara kandi ntiwatereza indi moto ngo ibe yabigezayo, cyangwa se tagisi cyangwa imodoka nini, iyo ari bike biri mu rugero lifani irabitwara.

Abakerarugendo bazana amadovize mu rwanda, tujye tubishimira kandi twishimire iterambere rirambye bajya batugezaho ni byiza yiza ku rwanda rugendwa cyane cyane n'abanyamahanga.

Ubu amamoto yabaye menshi, ntabwo tugishaka uburyo bwo kugenda ngo tububure, aho wajya hose usanga udashobora kubura ikigutwara, ni byiza ko dutega abamotari kugira ngo na bo tubateze imbere.

Birazwi ko u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo. Muze twihangire imirimo urubyiruko rukore ibigendanye n'ingendo mu muhanda dutwara abantu n'ibintu.

Banyonzi ndetse namwe mutwara amagare si byiza ko mufata ku mamodoka agenda kuko biteza impanuka nyinshi mu muhanda, tubungabunge ubuzima bwacu n'ubwa bagenzi bacu.

U Rwanda rurakataje mu kubungabunga ingendo badushakira amamodoka ndetse n'amamoto ahagije, uta no ku mutwe iyo biri ngombwa, dutwara ibintu ku mitwe yacu kuko na byo bituma ukora siporo, cyane cyane iyo ugenda utembera n'amaguru.

Urwanda rumaze gutera intambwe ishimishije ku bijyananye n'ingendo, kuko rufite indege zarwo bwite, bityo iyo dukeneye kujya mu bihugu byo hanze twikoreshereza indege zacu nta mususu.

Mu kirere dukoreshamo indege, hari impanuka iherutse kuba yo mu buhinde, ariko indege z'u Rwanda zo turazizeye zirakomeye kandi zifite ubuziranenge.

Tujye dutemberera mu bihugu duturanye kuko amabisi atugezayo yaraje, tujye tubikora tunezerewe kuko ni byiza kumenya hirya no hino mu gihugu.

Inkoko za kijyambere tujye tuzitwara neza, cyane cyane iyo dushatse uburyo bwo kuzitwara byarushaho kugenda neza, usanga tuzigejeje mu masoko zitananiwe bityo tukabyungukiramo.

Ntabwo gutwara ibintu n' abantu bikorwa neza, mu gihugu cyacu cy' u Rwanda dukoresha amamodoka mu muhanda, tugakoresha amabisi, tugakoresha amahonda, amagare n' ibindi mu kirere tugakoreshamo indege ndetse no mu mazi tugakoreshamo n' ubwato.

Amapikipiki ni ibinyabiziga bikundwa n'abantu benshi, kuko abinjiriza amafaranga yo kwikenuza mu ngo zabo. Ni byiza ko na twe dukunda umurimo kugira ngo twiteze imbere.

Mu binyabiziga dukoresha bisi, amamodoka, amagare y'amapikipiki ariko ikiza cya bisi ni uko itwara abagenzi benshi, ugasanga bagereye iyo bagiye ku gihe, twubahirize gahunda ya polisi ikora ibikwiriye mu muhanda ntitukagomere amategeko y'umuhanda.

Imihanda yacu ni myiza, hari iterambere icyindi n'imihanda itarashyirwamo kaburimbo bari hafi kuzishyiramo, kugira ngo isuku umuco w'isu ukomeze kuturanga hose.

Si byiza kugenda ingendo ndende, kandi leta y'u rwanda yaraduhaye amamodoka, yaraduhaye amapikipiki, amagare, tujye tugerageza gutega igihe ari ngombwa. Ariko na none igihe ingendo ari ngufi, tujye tugenda n'amaguru kugira ngo nanone turambure imitsi yacu nayo itazagenda nabi.

Gutwara abantu n'ibintu ni byiza. Mu Rwanda ubu dusigaye dufite ibitwara ibintu n'abantu, turabifite bihagije aho ukeneye kujya uhagera nta kibazo ugize na gito.

Muri gare ni ho abagenzi bategera imodoka zigiye hirya no hino. Ni byiza kubungabunga gare zacu, turinda abasambo kugira ngo batiba abagenzi, turinda icyahungabanya umutekano wo muri gare.

Amabisi ni amamodoka meza cyane. Bigatuma abantu bagerera aho bagiye ku gihe. Ikindi ni amamodoka atwarira abantu benshi icyarimwe. Tuyakoresha cyane aho gukoresha ibibindi binyabiziga.

Ni byiza ko leta yorohereje abanyeshuri, iyo bari gutega amamodoka bagiye ku mashuri cyangwa se bavayo, usanga muri gare bubahiriza ingendo z'abanyeshuri, n'abashoferi nta wundi muntu bashobora gutwara mbere y'abanyeshuri.

Iyo umuhanda wangiritse, ntabwo tugomba gutwara abagenzi ku magare, cyane cyane nk'abagore bafite abana, kuko ibi byateza impanuka zikomeye cyane, tubyirinde rwose abanyarwanda.

Mu ngendo zikorwa hirya no hino dukoresha amabisi, dukoresha amagare, dukoresha amapikipiki, ndetse tugakoresha n'ibipiringisi, ndetse n'amarifani, dushishikarize abanyarwanda n'abanyarwandakazi guteza imbere ingendo kugira ngo tukuremo imisoro.

Amagare nayo ni meza kuko atwara ibintu byinshi, amagare nayo agaburira abantu benshi, kuko atwara ibintu byinshi mu mwanya wa moto, moto itwara umuntu umwe ariko amagare ibintu byinshi cyane.

U Rwanda rwacu rwateye imbere ku buryo bushoboka cyane cyane mu gutwara abantu n'ibintu. Uburyo bwiza bwo kugendera mu kirere dukoresha indege z'u Rwanda tukagera mu bihugu byinshi.

Igare, igare rya siporo ni ryiza kuko ryihuta cyane kurusha ririya gare risanzwe, niyo mpamvu usanga amagare ya siporo anahenda kurusha ariya yandi.

Amabisi ni modoka nziza cyane, zitwara abantu benshi icyarimwe bigatuma bagera aho bagiye ku gihe kandi ugasanga hadahezwe mu biciro, tujye tuzikoresha kenshi.

Ibiti bitanga umwuka mwiza wa ogisijene duhumeka. Uwo mwuka ni mwiza guhera neza ibihaha, dutere ibiti, dutere indabo, kugirango ngo uyu mwuka mwiza tuwubone.

Imodoka ya bisi irakundwa cyane , kuko ikora ingendo neza, kandi usanga ariyo benshi bari gutega, kuko irihuta kandi umuntu akagenda ari mu mutekano usesuye.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwiza, dukwiriye gukora siporo n'imyitozo ngororamubiri, kugirango imibiri yacu ihore iguwe neza, ndetse twirinde indwara zizahaza umubiri wacu.

Kore imyitozo ngorora mubiri dukore siporo kuko siporo n'ingira kamaroumugabocyangwa umugore wakoze siporo agira ubuzima bwiza kandi na none twirinde indwara, bamwe tugakomera bityo tukarushaho kumera neza.

Tujye tubungabunga imibiri yacu, dukora siporo ndetse n'imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza, kandi twirinda n'indwara nyinshi...

Imyidagaduro ni myiza tuyitabire, kuko ituma wishima, ituma ubwonko butekereza neza, ni byiza y'uko dukora imyitozo ngororamubiri, ndetse na za siporo tuzishishikarize n'abandi.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwiza dukwiye gukora siporo ndetse n'iyindi myitozo ngororamubiri, kugira ngo tugire ubuzima burambye kandi twe kurwaragurika cyane, tujye dukora siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Akamaro ka siporo n'imyitozo ngororamubiri ni ukwidagadura, ukishima, umutima wawe ukanezerwa, ukaruhuka, ugashira amavunane, ugashira ibitekerezo bibi, ugasanga unezeranywe na bagenzi bawe.

Tujye dukora siporo n'imyitozo ngororamubiri, zizatuma imibiri yacu igenda neza, ndetse zigubwe neza, tuzabungabunga ubuzima bwacu tuyirinde indwara nyinshi, kubera gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukino wamagare ni umukino mwiza cyane ndawukunda, kuko no wukureba ubona bibereye ijisho kandi bigahesha ukureba ibyishimo akanezerwa, ikindi ni siporo nziza cyane.

Siporo tuyishishikarizwa kenshi tujye dukunda gukora siporo. Ubu mu Rwanda ndetse no mu mahanga hose nta n'umwe udakunda siporo, kandi nta n'umwe utazi akamaro ka siporo n'imyitozo ngororamubiri.

Imikino ni myiza, tujye dukora siporo n'imyitozo ngororamubiri, kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze, kandi tugire n'amagara mazima.

Duconge ruhago tutizigamye . Dukunde umupira w'amaguru tuwukundisha n'abana bacu, tuwukundisha n'abavandimwe bacu ,kuko usanga ubereye ijisho kandi urebwa n'abantu benshi kwisi.

Imikino ya siporo ndetse n'imyitozo ngororamubiri, tuyibungabunge bituma twidagadura kandi tukishima, bigatuma n'ubwonko bwacu butekereza neza, ni byiza ko tuyikunda tukayikundisha n'abandi.

Ibiraro by'imigezi imwe n'imwe biba atari byiza, ariko ibindi biraro biba bikomeye, ni byiza kugendera ku biraro bikomeye kugira ngo tutazagwa muri iyo migezi.

Umukino w'amagare urubyiruko rwacu tuje turuwushishikariza, kuko uba umukino urerebwa na benshi kandi usanga ubereye ijisho, dushishikaze urubyiruko rwacu kwiteza imbere mu mukino w'amagare.

Abakobwa nabo ni batinyuke bajye bakora siporo, kuko ntabwo aribo bazakomeza gusigara inyuma, ni batinyuke bareke guhora inyuma. Ahubwo bashishikarire gukora imyitozo ngororamubiri myinshi.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, tugakora siporo tugakora n' imyidagaduro, izo zose tukazikora twishimye bituma imibiri yacu iruhuka ikanagubwa neza.

Twite kuri siporo n'imyitozo ngororamubiri ndetse n'imyidagaduro, kugira ngo ubwenge bwacu bujye ku murongo, kugira ngo imibiri yacu ikure neza, kandi ikore neza twirinda amavunane.

Siporo n'imyitozo ngororamubiri birakenewe cyane ari kubanana ari kubakuru kuko bituma ubuzima bwacu bubungabungwa neza bikaturinda indwara cyane cyane indwara z'imitsi.

Banyarwanda banyarwandakazi muze dukore imyitozo ngororamubiri dukore siporo, ndetse ndashishikariza n'Abanyamahanga bari hirya no hino Ku Isi kugira ngo dukunde siporo, kuko itanga ubuzima bwiza buzira umuze .

Dukore siporo n'imyitozo ngororamubiri, kuko iyi mikino ituma umubiri ugubwa neza, igatuma umubiri wacu urindwa indwara. Ni byiza yuko dukora siporo n'imyitozo ngororamubiri.

Dukunde siporo n'imyidagaduro, kuko bituma ubuzima bwacu buba bwiza, kandi ubuzima bwacu twabubungabunga tubukorera imyitozo ngororamubiri bigatuma imitsi yacu ndetse n'amagufawa byacu bikomera.

Siporo ni ni iningenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, tujye tugira imyidagaduro bizatuma twishima kandi bigatuma tugubwa neza, ndetse tukirinda indwara nyinshi zitandukanye n'ibindi bibazo by'ubuzima.

Dukore siporo n'indi myitozo ngororamubiri bituma umubiri wacu ugubwa neza, kandi ugasanga twirinze indwara nyinshi ndetse n'indwara z'imitsi akenshi ziragenda.

Siporo ni nziza n'imyitozo ngororamubiri ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo tungabunge ubuzima bwacu, mujyemo mukora siporo imitsi yanyu irambuke ndetse n'amagufa yanyu akomere.

Umukino w'amagare ni mwiza cyane. Tuwushishikarize n'abandi, ndetse tuwutoze n'abana bacu, kugira ngo bakure bakunda gukina uwo mukino, kandi baziteze imbere muri byinshi.

Umukino w'amagare. Dushishikarize urubyiruko rwacu ko umukino w'amagare ari mwiza, bakure babikunze. Kuko umukino w'amagare uza gukorwa na bake, ariko urubyiruko ruwukunze rukawukina ari rwinshi, twanezerwa natwe.

U Rwanda ruzavugururwa n'amaboko y'abana barwo, dukora siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza, bityo igihugu cyacu kizaba gifite abaturarwanda bazima bafite ubuzima buzira umuze.

Dukunde siporo, ni byiza ko tuzikunda tukazishishikariza n'abacu, kuko iyo dukoze siporo tugira ubuzima bwiza twirinda indwara nyinshi, cyane cyane indwara z'ibikatu.

Imihanda yo mu cyaro na yo dukwiriye kuyibungabunga, dusasamo amapave kugira ngo twirinde imicucu myinshi cyane, kugira ngo tugere iyo tujya dusa neza.

Imihanda yo mu byaro nayo irakorwa umunsi ku wundi Ubu usanga ahantu henshi harageze imihanda, ni byiza kotuba ahantu hanyuze imihanda. Udusibanzira twatumaga abantu benshi bagirirwa nabi bahohoterwa.

Iyo tugeze mu mijyi, tugomba kwambuka neza mu mihanda, tukirinda kwambukiranya ahatemewe, tujye twambukira mu mirongo z'umweru kugira twirinde impanuka, tuzirinde na bagenzi bacu.

Umuhanda w'ibitaka kuwugendamo birasaba kuba wambaye inkweto, ndetse ukagenda nk'uwitonze kugira ngo udakandagira amabuye akaba yakwica.